Mu rubyiruko twigishwa kwiteza imbere twavuga nko guhinga, korora no kwihangira imirimo. Hari abantu benshi bahitamo gukorana n'amashami ya Emutiyeni bakagurisha amayinite bakababikurira bakanabitsa bakabasha kubona inyungu.

Abakozi b'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda bambaye impuzankano igaragaza icyo kigo bakorera, impuzankano ikaba igizwe n'amabara y'umutuku n'umweru, bamwe muri abakozi bakaba bambaye udupfukamunwa kandi bakaba bigaragara ko ari abazungu cyangwa se abera mu yandi magambo.

Akabati karimo amabara y'umuhondo ndetse hakaba hariho ibyapa, by'imyeru. Gateretse ku muhanda nyuma yaho hari, ibiti by'imikindo. Kakaba gakoreshwa mu gihe abakiriya baje kugura amayinite cyangwa kubikuza.

Agasanduku k'umuhondo gacururizwaho ibigendanye n'itumanaho no kohererezanya amafaranga no kuyakira, harimo umukozi ushinzwe kubikora, bigaragara ko ari kwakira abakiriya be, mu agasanduku kakaba gafite ibara ry'umuhondo, kakaba gakikijwe n'ibiti bifite amababi y'icyatsi, abo bantu bakaba bambaye imyenda ifite amabara atandukanye umweru, ubururu, n'umutuku.

bAakozi ba sosiyete ishinzwe gucuruza ibijyanye n'itumanaho kwakira no kohereza amafaranga bahagaze ku murongo umwe ari bane, bambaye impuzankano igaragaza iyo sosiyete umwe muri bo akaba yambaye umuhondo, abandi batatu bakaba muri bo bambaye umuhondo n'umukara bakaba bafite n'ifishi ibigaragaraza.

Umutaka ufite ibara ry'umuhondo uhagazemo abagabo bane bambaye imyenda y'impuzankano y'akazi na yo ifite ibara ry'umuhondo, rigaragaza ko bashobora kuba bakorera ikigo gishinzwe gucuruza itumanaho, ibijyanye no kohereza ayo mafaranga no kuyakira, hafi y'aho hakaba hari imodoka n'ubusitani burimo ibyatsi byinshi.

Abakozi b'ikigo gishinzwe itumanaho no kwakira no kohereza amafaranga, umwe muri bo wambaye umupira w'umutuku, undi akaba yambaye ikote ry'umukara n'amadarubindi, bakaba bafashe agakarito bigaragara ko gashobora kuba kazamo telefone.

Umutaka ufite ibara ry'umuhondo, wanditseho ibigaragaza ibikorerwa muri uwo mutaka mu mabara y'umweru n'ubururu ahandi umutuku, muri uwo mutaka hakaba hahagazemo abagabo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bigaragara ko hari serivisi bari kwaka muri uwo mutaka.

Agasanduku bakiriramo abakiriya bashobora kuba baje bazi nko kubitsa amafaranga kubikuza cyangwa se izindi gahunda zigendanye n'amafaranga, ako gasanduku ka gafite amabara atandukanye icyatsi, umutuku, n'ibara ryenda gusa nk'ikigina ariko ikigina kerurutse.

Abantu bari mu murima bigaragara ko bafashe ibyatsi cyangwa se ibiye muri uwo murima. Abantu bari muri uwo murima bamwe bakaba bambaye imyenda y'umutuku, abandi umweru, abandi ubururu. Umurima ukaba uteyemo imbuto hakaba harimo n'ibiti birebire.

Iyi ni koperative icuruza inkweto ifasha inkweto kugera ku baturage byoroshye, abayikoreramo bakaba biteza imbere binyuze muri ubwo buryo bwo kugurisha inkweto.

Abantu bateraniye hamwe, bambaye imyenda ifite amara atandukanye, umukara, ubururu n'umweru, hejuru muri iryo hema bicayemo rika rifite amabara y'icyatsi n'umuhondo, umugabo umwe muribo ahagaze imbere yabo aterura igikombe gifite imitako, ifite amabara y'ubururu umweru n'umutuku.

Inzu ifite amabara atandukanye imbere imbere hakaba hari ibara ry'umweru, ahagana hejuru hakaba hari ibara ry'umukara, hejuru hakaba hari ibara ry'umutuku ku mabati, umufuniko cyangwa umureko ujyana amazi ukaba ufite ibara ry'umweru, ukaba ufite inzugi nini n'amadirishya manini biteye ibara ry'umweru.

Abantu bari ahantu mu cyumba, bigaragara ko hari ibintu bishimiye bari kureba abandi bakoze, bimwe dukunze kwita udutete, abantu bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye, imyenda y'ubururu, imyenda y'umukara bakaba, bari kugaragara ko bari kumurikirwa bimwe mu byo abo bantu bandi babashije gukora.

Abantu bahagaze ahantu mu cyumba bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bambaye imyenda y'umukara, bambaye imyenda y'umutuku, bambaye imyenda y'amabara avanze, imbere yabo hakaba hari ibasi ifite ibara ry'icyatsi, iyo nzu barimo hakaba hijimye, ifite amabara y'ikigina.

Mu Rwanda dufite imyuga myinshi, hari umwuga w'ubuhinzi, hari umwuga w'ubworozi akenshi ahanini usanga abanyarwanda benshi bakora umwuga w'ubuhinzi, kuko usanga ariwo mwuga ufasha abantu mu kubona amafaranga byihuse bakabona ibyo kurya ndetse bagasagurira n'amasoko.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'abandi bantu bari munzu ifite amabara y'icyatsi, aba bagabo batatu babiri bambaye imipira isa, umwe muri bo uri hagati yabo akaba yambaye ikote ry'umutuku umupira w'ubururu mo imbere, bombi bakaba bafashe ku ifishi igaragaza icyemezo cy'ubwishingizi iriho hejuru ibendera ry'igihugu.

Iyi ni serivisi itangwa na Banki y'abaturage Equity Bank, Urwego Banki bifasha abaturage kwizigama kugurizwa amafaranga ndetse no kubitsa amafaranga no gushora imigabane ahantu hatandukanye kugira ngo babashe kubona inyungu.

Ibyo kunywa bitandukanye bigaragara ko byose bishoboka ari ibyo kunywa bisindisha cyangwa bisembuye, ibyo byo kunywa bikaba biteretse mu kabati ku murongo, ku mirongo ibiri, ibyo kunywa bikaba biri mu mabara agiye atandukanye: umweru, umutuku cyangwa se umuhondo, ibindi mu mabara y'icyatsi cyangwa ibindi ukabona bijya gusa nk'amazi.

Icyumba gifite amabara atandukanye agaragara neza. Kirimo intebe zakirwaho abakiriya. Hagaragara nk'aho bacururizamo ibinyobwa n'inzoga. hakaba harimo intebe zizengurutse aho abakiriya bashobora kwicara. Hejuru hakaba harimo amatara yaka. Imbere hakaba hagaragara nk'aho ari umutuku. Hasi aho ngaho hakaba hagaragara nka hari kwaka umuriro usa...

Abantu benshi bakunze gusohoka, bakishimisha, bakinezeza akenshi bikorwa n'abantu bakundanye usanga abantu basanzwe babana basohokana bakajya kuganira kugirango ngo babashe kumera neza basohokera ahantu hatandukanye nko: mu mahoteli, ibiyaga no mu birunga.

Akabati karimo ibyo kunywa bitandukanye harimo: ibisembuye, ibidasembuye, hakaba harimo n'amazi, hejuru gato hirya hakaba hari ibikoresho by'isuku, hasi y'ako kabati hakaba hari hagaragara nk'aho ari umukara.

Kwihangira umurimo nicyo kintu leta idushishikariza ugasanga umuntu ahanze umurimo arikoriye, abashije kugira amafaranga menshi cyane, akabasha no gutunga umuryango, ndetse akanitunga ku giti ke, twavuga nko gucuruza ibiryo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Aho bacururiza ibyo kunywa by'amoko atandukanye. Ibisembuye, ibidasembuye, bikaba biri mu bigero bigiye bitandukanye. Ibiri mu macupa manini, birimo amacupa matoya, mu bwoko butandukanye. Waba uri umurokore, ukababa ubona ko wabonamo ibyo kunywa, waba unywa ibisembuye wabonamo ibyo kunywa, kandi ibintu byose bikaba biteretse mu kabati gafite ibarara....

Inyubako dusangamo ibikoresho byinshi bitandukanye, twavugamo ameza, intebe, ameza usanga yifashishwa mu gufatirwaho ifunguro ndetse no kwandikiraho ukeneye nko gukora etide ameza niyo yifashisha.

Iguriro ry'ibiribwa ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye amafu y'amoko yose, ibishyimbo amavuta yo guteka, hakaba hicayemo abantu babiri b'abacuruzi, umwe w'umugabo undi w'umugore, uwo mugore akaba yambaye ingofero y'umutuku n'umupira w'icyatsi, hakaba harimo n'ibindi bintu twifashisha turya inyanya.

Agashashi bigaragara ko gasaba gafunzemo, ibintu ushobora kwifashishwa nko mu isuku y'abadamu. Ako gakarito cyangwa se agashashi kaba gafite amabara atandukanye. Harimo amabara y'icyatsi, ibara ry'umuhondo, ibara ry'ubururu n'ibara risa nka move.

Akabati karimo ibyoywabyi bitandukanye. Kenshi bikaba bigaraga ko ari ibyo kunywa bidasembuye byoroshye bikaba biri mu mabara igiye atandukanye ubururu, umuhondo, ibindi bikaba biri mu mabara ya orange. Muri ako kabatiba hahagazemo umubyeyi, bigaragara ko ashobora kuba ari umucuruzi wabyo.

Kuririmba n'ibintu byiza cyane kuko bifasha umuntu kuruhuka bikamumara umunaniro, aha dusanga baririmba indirimbo z'imana, iz'isi se, iz'inkundo bigafasha umuntu kuruhuka akagabanya siterese imurimo.

Uyu ni Musenyeri ari kuganira n'abaturage b'abakirisitu ibintu bitandukanye ubona ko hari abaturutse ahantu hatandukanye barimo abaturutse mu bihugu byo hanze n'abanyarwanda muri birusange.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu benshi, wambaye ikoti ry'umukara, ipantaro y'umukara, mo imbere akaba yambayemo ishati y'umutuku, inyuma ye ba yicaye bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amabara y'umukara, amabara y'ikigina. n'amabara y'umweru. Inyuma yabo aho bicaye hakaba hari ibiti birebire bibatwikiriye.

Abantu bicaye ahantu mucyumba hamwe, bigaragara ko bambaye neza, imyenda ifite amabara atandukanye, abagabo bambaye amakoti meza afite amabara y'umweru , n'umukara, ababyeyi bambaye amakanzu meza bafite amabara yicyatsi n'umweru, bigaragara ko bambaye neza bigaragarira amaso.

Abantu bateraniye hamwe bigaragara ko bahimbawe, cyangwa se bari kubyina bishimye, muri abo bantu hakaba higanjemo abadamu cyangwa ababyeyi bambaye imikenyero bigaragara ko bagaragara neza, bakaba bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, abambaye imyenda y'umutuku, umukara, abandi umukara uvanze n'umweru, abambaye icyatsi bari mu gisharagati bishimye bizihiwe.

inzu nini cyane bigaragara ko ishobora kuba ari urusengero. Iyo nzu ikaba yubakishije amatafari. Imbere yayo hakaba hari ubusitani burimo ibyatsi bigaragara ko bukase neza. Iyo nzu ikaba ifite inzugi n'amadirishya mu mpande zayo zose.

Inzu imeze nk'urusengero, ariko bigaragara ko rushobora kuba rutubatse neza rutavuguruye, ikaba ifite amadirishya ku kuruhande rumwe, ku rundi ruhande imbere hakaba hari umuryango, ikaba izengurutswe n'ubusitani bufite ibyatsi by'icyatsi, hejuru y'iyo nzu kurundi ruhande akaba hateyeho ibiti, wareba hakurya musozi ha akaba hateyeho ishyamba.

Ibitanda bibiri biri mu nzu nziza bishasheho amashuka y'umweru, harambuyeho umwenda urimo amabara y'ikigina n'umweru wijimye inzu birimo ifite inkuta zisa n'icyatsi cyumye ibitanda bifite ibara ryenda kuba ikigina.

Icyumba gifite ibara ryenda kuba ikigina cyerutse, aharimo urugi rumwe rugaragara, imbere hakaba hari akabati, hejuru y'akabati hakaba hateretseho televiziyo, televiziyo ikaba iri mu mabara y'umukara n'ikirahure cyayo cya televiziyo.

Abantu bicaye bazengurutse ameza, buri wese afite icupa ry'amazi imbere ye, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, abambaye imyenda y'umweru, abambaye imyenda y'umutuku, abambaye imyenda y'umukara, abandi ubururu. Bigaragara ko hari inama bitabiriye cyangwa se hari ikintu bari kumvira hamwe.

Igitanda kiza cyane gisasheho amashuka afite ibara ry'umweru n'icyatsi cyumye, icyo gitanda kikaba gifite ibara ry'umutuku, kikaba kiri ahantu mu cyumba, icyo cyumba na cyo kikaba gifite amabara y'icyatsi cyumye.

Urukuta ruriho ikirangantego kigaragaza ibikorerwa aho hantu. Bigaragara ko aho hantu hashobora kuba ari inzu, abantu bashobora kwiyakiriramo cyangwa se bakaba bararamo. Urwo rukuta rukaba rurimo amabara atandukanye. Rufite amabara y'ikigina, agaragara cyane kandi akaba ari amabara y'ikigina agaragara nk'ayijimye.

Ibyishimo birahenda cyane niyo mpamvu abantu benshi bagerageza uko bashoboye kugira ngo bashake ibyishimo. Twavuga nko gusohoka ukarya, ukanywa, ugatembera ahantu hatandukanye mu maresitora ukishima.

Inzu nini yubatse ahantu heza bigaragara ko hashobora kuba hakorerarwa ubukerarugendo, cyangwa abantu bakahasura kubera ko ahantu bigaragara ko bafite ikibuga kigari imbere, giteyemo bwatsi ubusitani bugaragara neza bw'icyatsi, inyuma yayo hakaba hari umusozi muremure wubatseho amazu, hejuru mu kirere hagaragara nk'aho ijuru ririmo ibicu.

Imbuto nziza ziri ahantu ku gatanda, izo mbuto zikaba ziganjemo inyanya, imineke n'avoka, hakaba imbere yazo hahagaze ababyeyi cyangwa se abadamu bashobora kuba ari abacuruzi b'izo mbuto.

Umwuga wo gucuruza n'umwuga utunze abantu benshi, abantu batari bake cyane twavuga nk'umwuga wo gucuruza aho dusangamo abacuruza imyenda, bacuruza ibiryo n'ibindi bintu bitandukanye bifasha umuntu kwiteza imbere akagira amafaranga menshi cyane.

Imyenda iri mu mabara atandukanye, bikaba bigaragara ko iyo myenda ishobora kuba yiganjemo imyenda y'amapantaro, iyo myenda ikaba irimo mu mabara y'ubururu, umukara, umutuku w'ikigina, imyenda ikaba imanitse ku bintu biyifashe bifite ibara ry'ubururu.

Ubucuruzi ni umwuga mwiza, ni umwuga ufasha abantu mu kwiteza imbere, bigafasha abaturage mu kubona ibintu twavuga nk'umwuga wo gucuruza imbuto, imboga, bifasha abaturage mu guhaha bakabona ibibatunga kandi bigafasha n'umuntu ubicuruza kubona amafaranga akabasha kwiteza imbere.

Abacuruzi ni umwuga mwiza cyane kuko ufasha umucuruzi mu kwiteza imbere, ukabasha gutunga umuryango, twavuga nko gucuruza imboga, imbuto ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, bigufasha mu kwiteza imbere, ukabasha kugera aheza.

Ababyeyi babiri bari kumwe bikoreye udutebo, tugaragara nk'aho turimo imbuto z'icyatsi, inyuma haparitse moto ebyiri, bakaba bahagaze ahantu hagaragara ko ari nk'imbere y'igipangugu gifite inzugi z'amabara y'umweru, inyuma yabo hakaba hari urukuta rwawukishije amabuye.

Ibyo kurya bitandukanye biri mu mifuka bipanze ahantu mu isoko, bimeze nk'ibiriri gucuruzwa biteye amabengeza kubireba ku maso kubera ubwiza bwabyo, inyuma yabyo bikaba bikikijwe n'amazu, imbere yabyo hakaba hari abacuruzi babyo bigaragara ko bashobora kuba bari kubicuruza.

Ubucuruzi ni umwuga mwiza cyane kuko ufasha umucuruzi mu kwiteza imbere, twava nko gucuruza imyenda, inkweto, ibiribwa ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye bibasha gutanga inyungu, umucuruzi akabasha kubona inyungu.

Ubucuruzi ni umwuga mwiza, n'umwuga utunze abantu benshi aho usanga umuntu ukora ubwo bucuruzi atunze umuryango akiteza imbere akabasha kugera ku ntego twavuga nko gucuruza imyenda, inkweto ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye byinjiza amafaranga.

Imifuka myinshi iteraniye ahantu hamwe y'umweru, hejuru kuri iyo mifuka handikishijeho ibara ry'icyatsi rigaragaza ibiri muri uyu mufuka, hirya hari umugabo uri gukora mu gikarito ashyira hejuru ku meza, iyo meza ikaba iteretseho amasabune, amavuta n'ibindi bikoresho.

Mu gihe cya kera wasangaga mu gihugu harimo inyubako ziciriritse, inyubako zitageretse akenshi ugasanga kubera umuco ari inzu z'ibyatsi ariko muri iki gihe usanga ari inzu nziza inzu ndende inzu zigeretse bakunze kwita mataje.

Ingendo n'ikintu cyiza cyane, kubera ko umuntu aba ashaka gusura mugenzi we ashobora kuva mu karere kamwe ajya mu kandi, ibinyabiziga byarabyoroheje; hari moto, hari imodoka, kubera imihanda myiza ugera aho ushatse, igihe ushakiye, isaha ushakiye ndetse n'igihe washakiye.

Umuhanda ufite isuku urimo ibinyabiziga moto ndetse n'imodoka, bitwara abagenzi aho usanga abantu bakoresha ibyo binyabiziga, babasha kubona amafaranga kubera imihanda myiza batwara abagenzi.

Gutwara abantu, n'umwuga mwiza cyane twavuga nko gutwara abantu mu modoka, mu moto, amagare ndetse n'ibindi, ibi bifasha abakora uwo mwuga mu kwiteza imbere bakabona amafaranga ndetse bikanafasha umugenzi kugera iyo agiye vuba kandi mu gihe gito.

Umwuga wo gutwara ibinyabiziga ni umwuga mwiza cyane kuko utuma umuntu uwukora yiteza imbere akabasha gutunga n'umuryango, twavuga nk'umwuga wo gutwara abantu kuri moto uwo mwuga ufasha abantu benshi cyane kuko binjiza amafaranga menshi noneho bakabasha kwitunga bagatunga n'imiryango yabo.

Umumotari uri mumuhanda ugenda kuri moto ye, urareba ko ari kugenda mu muhanda wamabuye, akaba yambaye ingofero ishinzwe kumurinda, indi ngofero akaba yifitefite imbere, hirya hakaba hari inzu nini iri mu mabara y'umweru, hiryaye urebye ukababona ibiti birebire.

umumotari uri kugenda kuri moto wambaye imyenda ,y'umukara wenda kuba umweru hirya ye hari inzu ifite amabara y'icyatsi, haruguru y'iyo nzu hakaba hari indi ifite amabara y'umweru , yazo hakaba hari izindi zifite amabara y'umweru avanzemo n'umuhondo, uwo muhanda umumotari ari kugenda akaba ari umuhanda w'amabuye.

Imodoka iri mu muhanda, iri mu mabara y'umweru n'umukara, ni ibice bimwe bigize iyo modoka, iyo modoka ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yayo hakaba hari ibiti byinshi, wareba haruguru yayo hakaba hari inkingi, ifatiyeho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Ibinyabiziga n'ingenzi cyane mu mibereho y'abantu kuko bifasha abagenzi kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu gihe cyihuse kandi vuba, ibinyabiziga twavugamo imodoka amagare, moto ndetse n'ibindi binyabiziga bifasha mu gutwara imizigo ndetse n'abantu.

Umumotari wicaye kuri moto igaragara nkaho ahagaze, yambaye ingofero y'umutuku, hirya ye hari umukobwa uri kugenda ufite agatete mu ntoki, inyuma yabo hirya hari imodoka iparitse, iyo modoka ikaba ifite ibara ryicyatsi inyuma, imbere ifite ibara ry'umuhondo, hejuru ikirangantego k'iyo modoka cyanditse mu ibara ryumuhondo.

Muri iki gihe usanga ibihugu birimo gutera imbere ahanini nk'ibikorwa remezo nibyo bituma ibihugu bitera imbere twavuga nk'imihanda, inzu z'ubucuruzi, abikorera batwara amamodoka batwara moto bagasuranaho n'imisoro igihugu kikayikoresha cyiteza imbere twavuga n'amashanyarazi nayo agira uruhare mu guteza imbere igihugu.